Mu nyubako izwi nka farumasi z'amatungo hagaragara ibikoresho byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi mu kuzamura umusaruro w'ibyo bakora, ziganje mo imiti, inyongeramusaruro ndetse n'ibindi byangombwa nkenerwa byose bifasha abahinzi n'aborozi kuzamura umusaruro wabo bityo bakabasha kwiteza imbere binyuze mu kazi kabo ka buri munsi.

Abaturage bari mu bikorwa byo gukora ifumbire mborera bakoresheje ibisigazwa by'umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi wabo baba basigaje, harimo nk'ibituruka ku bigori, amasaka ndetse n'ibindi aho bitunganywa neza bikabyazwamo ifumbire izabafasha mu gihembwe k'ihinga gikurikira mu gutera imyaka yabo, hagamijwe kuzamura umusaruro w'ibyo bakora.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, imbere haparitse ibinyabiziga ndetse n'impande hakaba hamanitse kimwe mu byapa kigaragaza ko bakorera ahazwi nka Farumasi, hakaba hagurishwa ibikoresho by'amatungo ndetse n'ibindi byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi kubafasha kuzamura umusaruro wabo mu biciro no mu bwiza.

Mu nyubako izwi nka farumasi y'amatungo, hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abakora muri izi farumasi mu gutanga serivise nziza, aho kandi abahinzi n'aborozi babona imbuto, inyongeramusaruro, imiti ndetse n'ibindi byangombwa nkenerwa mu gukora ibikorwa byabo bya buri munsi hagamijewe ko basarura umusaruro w'ibyo bakora.

Abaturage bari mu ibikorwa byo kwita ku myaka yabo, bayuhira, ndetse banayibagara, mka bimwe mu bitangwamo inama n'impuguke muby'ubuhinzi n'ubworozi, ko ibihingwa byitaweho neza bihabwa imiti yo kwica udukoko, ndetse bikanitabwaho, muryoherwa ndetse nanahemberwa nka bimwe mu bifasha abaturage kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Umurima munini cyane uhinzemo ibihingwa ngandurarugo bigizwe n'ibigori ndetse n'ibihaza, aho bihinze neza ku murongo nk'uko bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi n'ubworozi, aho bagenda baha abahinzi guhinga kinyamwuga, batera imyaka ku murongo, ndetse banuhira banatera imiti yica udukoko, nka bimwe mu bibafasha kuzamura umusaruro wabo.

Ubuhinzi bukozwe neza mu buryo bwa kijyambere ni bumwe mutanga umusaruro mwinshi nk'uko bigaragazwa n'impuguke mu by'ubuhinzi n'ubworozi. Bityo bakaba bakangurira abahinzi kwibuka bene ubu buhinzi batera imyaka yabo ku murongo, buhira, batera ibiti by'ubu bwoko ndetse n'ibindi byose bigamije kuzara umusaruro wabo.

Amacupa arimo imiti yifashishwa n'abavuzi b'amatungo ndetse n'abahinzi mu kwita ku bihingwa ndetse n'ubworozi byabo byose bigamije kuzamura iterambere ry'ibyo bakora, hibandwa cyane kubyitaho nka bimwe bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza bigafasha kwiteza imbere no kuzamura imibereho yabo.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene, intama, inkoko ,ingurube ndetse n'izindi. Nibwo bufasha abarozi kwiteza imbere zinakora umusaruro mwinshi kandi mwiza bityo bikabafasha kuzamura imibereho yabo ndetse no kwiteza imbere binyuze mu bikorwa byabo. Ibi kandi bikaba inkingi y'iterambere aho abaturage bashobora kubona ibikorwa bibatunga ndetse bakabasha no kubona umusaruro.

Agacupa gafite ibara ry'umweru n'umufuniko w'umutuku kanditseho amagambo, aka akaba ari akazamo imiti yifashishwa n'abavuzi b'amatungo mu kwita ku matungo ndetse n'inyamaswa zitandukanye, hagamije ko zigira ubuzima bwiza bityo bigatanga umusaruro ku borozi ndetse abandi bose bashaka kongera umusaruro.

Amacupa arimo imiti yifashishwa n'abavuzi b'amatungo mu gufasha aborozi kuvura amatungo yabo indwara n'ibyorezo bitandukanye, bigaragaza iterambere mu rwego rw'ubworozi aho amatungo yitabwaho kugira ngo atange umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Abaturage bari mu bikorwa byo gusarura umusaruro wabo w'ibikomoka ku buhinzi ugizwe n'imboga zo mu bwoko bw'imiteja, aho izi mboga zifasha abaturageye mu kuzamura imibereho yabo babona ibibatunga n'imiryango yabo, ndetse bakabasha no kwiteza imbere babona amafaranga binyuze mu kugurisha ku bagenzi babo hirya no hino.

Abaturage bari mu bikorwa byo gusarura umusaruro wabo w'ibikomoka ku buhinzi, wiganjemo igihingwa cy'imyumbati, aho basarura umusaruro wabo bakawutunganya neza ndetse banayicisha mu nganda kugira ngo wongererwe agaciro, ibi bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo binyuze mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Abaturage bari mu bukangurambaga bwo gutera ibiti nk'imwe muri gahunda za Leta y'u Rwanda zashyizweho, mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije haterwa ibiti hirya no hino mu gihugu, cyane kuko bifite akamaro kanini harimo kuzana umwuka mwiza duhumeka, kugabanya ibyuka byangiza ikirere ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'uruto ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza bityo bigafasha gukora kwiteza imbere ndetse no kuzamura beho yabobatunga bityo bakabona kandi n'ubushobozi bubafasha gukemura ibibazo bitandukanye hirya no hino badatangaze umusanzu wa mu kubaka igihugu, binyuze mu gutanga umusaruro hirya no hino ku masoko.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ugizwe n'ibigori, aho byanitswe mu nyubako zagenewe kwanikwamo umusaruro w'ibigori kugira wume neza. Bityo ugira agaciro ndetse uzabashwe no guhunikwa kugira ngo uzagoboke abahinzi ndetse n'abandi bose muri rusange mu gihe kiri imbere. Kitari icyumwero nk'uko bigaragazwa n'impuguke mu by'ubuhinzi n'ubworozi.

Abaturage bari mu' ibikorwa byo kwita ku bihingwa byabo, bibumbiye muri koperative aho bahuza ubutaka nyuma bagahita igihingwa kimwe bahinga iyi ikaba muri gahunda zashyizweho urwego rwo gufasha abaturage mu kongera umusaruro waba mubwiza ndetse no mu bwinshi, aho bashakirwa kandi n'amasoko ku musaruro babonye binyuze mu makoperative bibumbiyemo bityo bikabafasha kwiteza imbere no kuzamura imibereho yabo.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ugizwe n'amasaka, aho yanitse neza ku izuba ryinshi, iyi ikaba ari imwe mu nama zitangwa n'impugukire mu by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, bagira inama abahinzi kwita ku musaruro wabo bawumisha neza, bikaba ari bimwe mu bibafasha kuwunika ndetse no kuwongerera agaciro mu bwiza.

Mu nyubako nini cyane ihunikwamo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, nyuma yo kunyuzwa mu mashini bigatunganywa neza, ndetse binongererwa agaciro, hagaragaramo urujya n'uruza rw'abantu bari mu bikorwa byo gufata uyu musaruro. Bigaragaza iterambere mu burezi, aho kandi ibi ngo bibasha kongererwa agaciro, bityo bigateza imbere abahinzi n'abandi bose muri rusange.

Imifuka myinshi cyane iteretse hamwe irimo imisaruro y'ibikomoka ku buhinzi, yiganjemo ibinyampeke nk'amashaza, ibishyimbo, ibigori, soya, ikawa ndetse n'ibindi, byose bigaragaza iterambere mu buhinzi aho abahinzi babona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko.

Imifuka iturutse ku murongo, irimo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi byiganjemo ibinyampeke nk'amasaka, ibigori, ibishyimbo, soya ndetse n'ibindi. Ibyo byose akaba ari umusaruro w'abaturage bahinze neza bita ku bihingwa byabo, bityo bikabafasha kwiteza imbere babona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara ibyanya bya pariki ndetse n'amashyamba kimeza byose bicumbikira inyamaswa ziganjemo iziboneka mu gice cy'imisozi miremire hano iwacu mu Rwanda. Izi nyamaswa zifite umwihariko wo gukurura ba mukerarugendo bose b'igihugu cyacu bityo bikazamura iterambere ry'ubukungu bw'igihugu binyuze mu madevizi basora ba mukerarugendo.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara amashyamba kimeza ndetse n'ibyaha bya pariki byose bicumbikira inyamaswa zikurura ba mukerarugendo basura igihugu cyacu, bityo bigafasha igihugu kwiteza imbere ndetse kuzamura ubukungu binyuze mu madevize yinjizwa n'abakerarugendo basura igihugu cyacu.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara amashyamba ya kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki byose bizwi mu gucumbikira inyamaswa zitandukanye ziganjemo iziboneka mu misozi miremire nk'ingagi, inkende, ndetse n'izindi zikurura ba mukerarugendo mu gihugu cyacu bikazamura iterambere n'ubukungu by'igihugu binyuze mu madevize yinjizwa n'aba ba mukerarugendo.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto ni bumwe mu butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza. Bityo impuguke mu by'ubuhinzi n'ubworozi zikaba zitanga inama y'abahinzi ko bakibana kuri ubu buhinzi nka bumwe butanga umusaruro mwinshi mu gihe gito bikabafasha kuzamura iterambere ryabo n'imibereho binyuze mu kubana ibibatunga ndetse no kwiteza imbere bo ndetse n'imiryango yabo.

Ku isoko hari urujya n'uruza rw'abaturage baje guhaha ibihingwa bitandukanye, byiganjemo imboga ndetse n'imbuto nka bimwe mu byifashishwa n'abaturarwanda benshi mu kunoza ndetse no kuzamura imibereho myiza, barya amafunguro yuzuye yiganjemo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara.

Igipangu cyiza cyane gikikijwe n'ubusitani buhinzemo ibiti by'imboga ndetse n'imbuto. Iyi akaba ari gahunda yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage bashishikarizwa kwita ku buhinzi cyane cyane ubw'imboga n'imbuto. Nka bimwe mu bibafasha kuzamura imibereho myiza ndetse no kugira ubuzima bwiza binyuze mu guhinga imboga n'imbuto.

Mu isoko hacuruzwa ibicuruzwa bitandukanye hagaragaza umusoro w'ibikomoka ku buhinzi wiganjemo imboga n'imbuto harimo nk'imyembe avoka inyanya ndetse bakaba umusaruro aba abaturage babakuye hirya no hino mu mirima yabo bakayizana ku isoko nka bimwe mu bibafasha mu kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo ya buri munsi.

Mu isoko ricuruza ubucuruzi butandukanye hagaragara umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi wiganjemo imboga ndetse n'imbuto harimo nka karoti, amashu ibitunguru, intoryi ndetse n'ibindi, byose bikaba ari umusaruro w'abaturage baba bahinze bakawuzana ku isoko hagamijwe ko biteza imbere binyuze mu musaruro w'ibyo baba bakoze.

Abaturage benshi bari mu bikorwa byo gufata imbuto z'ibiti byaba ibitanga imbuto ndetse n'ibiti bitanga umusaruro bisanzwe. Byifashishwa n'abahinzi hirya no hino mu gihugu hagamijwe mu kwita ku butaka bwabo birinda ko bwatembanwa n'isuri. Ndetse banazamura imibereho yabo bahinga ibihingwa bitandukanye byiganjemo imboga n'imbuto.

Akarima k'igiko ni imwe muri poritiki y' imibereho myiza yashyizweho na Guverinoma y'u Rwandaka, mu rwego rwo gufasha abaturage mu kuzamura imibereho yabo barwanya indwara zitandukanye zituruka ku kugwingira, ahanini bituruka mu kurya iryo ituzuye. Aho abaturage bashikarizwa guhinga imboga mu turima tw'igikoni, hamwe mu bibafasha kuzamura imibereho yabo ya buri munsi.

Umuturage uri mu bikorwa byo kuhira imyaka ye, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi n'ubworozi, aho bagira inama abahinzi bo kwita ku myaka yabo bayifuhira ndetse banayuhira mu gihe cy'izuba mu rwego rwo kubafasha mu kongera umusaruro wabo mu bwishi ndetse no mu bwiza, bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Amaterasi meza y'indinganira ahinze ku musozi iyi akaba ari gahunda yizwe na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage mu kwita ku butaka bwabo cyane cyane abatuye mu bice bihanamye ndetse n'imisozi aho bakorerwa amatarasi y'inganira abafasha gufata amazi anyura ku butaka bwabo birinda ko bwakangirizwa n'isuri.

Amaterasi meza y'indinganire agiye ari hirya no hino mu gihugu, ni imwe muri gahunda guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage mu kwita ku bikorwa byabo by'ubuhinzi cyane cyane abo mu bice bihanamye ndetse n'ubutaka buri mu misozi miremire. Byose byakozwe mu rwego rwo gufasha abaturage kwirinda ibiza bitandukanye byakwangiriza imyaka yabo ndetse n'ubutaka muri rusange.

Amaterasi meza y'indinganire ni imwe muri gahunda zashyiho na guverinoma y'u Rwanda, mu rwego gufasha abahinzi cyane cyane abakora byabo by'ubuhinzi mu bice by'imisozi, ndetse n'ahantu hahanamye. Babafasha ko ibihingwa byabo byatembanwa n'isuri bityo bakagira umwanya wo gukorerwa amaterasi y'indiganiye ahaterwa ibiti ndetse n'ibyatsi bifata ubutaka birinda ibiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'intama, ihene, ingurube ndetse n'izindi ni bimwe mu bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza, bityo bigafasha ubikora mu kwiteza imbere no kuzamura imibereho yaho babonaho ifumbire ibafasha mu kunoza ibikorwa byabo by'ubuhinzi ndetse no kubona umusaruro ukomoka ku bworozi, amata, inyama ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo magufi, nk'inka, ihene, ingurube ndetse n'ibindi, iyo bikozwe neza ndetse bikanitabwaho ni bimwe bitanga umusaruro mwinshi, bityo bigafasha ababikora kwiteza imbere, ndetse no kwihaza mu mirire, cyane cyane ibona umusaruro ukomoka ku bworozi nk'amata, inyama, ndetse n'ibindi byose bibafasha kuzamura imibereho yabo.

Ubworozi bw'amatungo magufi, nk'ihene, intama, ingurube, inkoko ndetse n'izindi ni imwe mu bifasha aborozi mu kwiteza imbere babona ibyangombwa nkenerwa ndetse n'umusaruro bikomoka ku bworozi nk'amata, amagi, inyama ndetse n'ibindi, bityo bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene, intama, ingurube, ndetse n'izindi, ni bimwe mu bifasha abarozi mu kwiteza imbere ndetse no kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito. Ibi kandi bikabafasha kuzamura imibereho yabo ndetse no kubona ibibatunga bo n'imiryango yabo, cyane cyane byiganjemo ibikomoka ku matungo nk'inyama, amata, n'ibindi.

Ubw'amatungo magufi nibwo bufasha gukura mu kwiteza imbere babona umusaruro mwinshi kandi mwiza, wiganjemo ukomoka ku bworozi nk'amata, inyama ndetse n'ibindi, bityo bikabafasha kwiteza imbere kuzamura imibereho yabo binyuze mu bikorwa byabo bya buri munsi by'ubworozi bw'amatungo magufi.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bumwe mu bushishikarizwa abaturage kuyoboka nka bumwe mu butanga umusaruro kandi mwinshi mu gihe gito, bigafasha ababikora kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo, no kubona umusaruro w'ibikomoka ku bworozi nk'amata inyama ndetse n'ibindi, byose bifasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kuzamura imibereho yabo muri rusange.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto iyo bukozwe neza mu buryo bwa kijyambere hubahirizwa ibipimo bitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ndetse n'abajyanama mu by'ubuhinzi, ni bimwe bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza, bityo bigafasha abikora mu kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo babona ibatunga hamwe n'imiryango yabo ndetse banasagurira amasoko.

Muri pepeniyeri hatuburirwa ingemwe z'imiti bitandukanye, yaba ibifata imyaka ndetse n'ibindi byose, yaba ibitanga imbuto n'ibindi bitandukanye, aho abaturage bakura izi ngemwe hanyuma bakajya kuzitera ku mirima yabo mu rwego rwo kubafasha kuzamura umusaruro wabo ndetseno kubungabunga ibidukikije.

Ubuhinzi bukozwe neza kandi mu buryo bwa kijyambere nibwo bumufasha gukora kwiteza imbere babona umusaruro mwinshi cyane, bityo bakazamura imibereho yabo ubundi ibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko bityo bikabafasha kwiteza imbere ikaba arimwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by',ubuhinzi n'ubworozi ubagira inama abaturage gushora imari muri bene ubwo buhinzi.

Ubuhinzi bukozwe neza mu buryo bwa kijyambere ni mu bifasha abahinzi kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza nkuko bigaragazwa n'impuguke muby'ubuhinzi n'ubworozi, aho kandi bashishikariza abahinzi gutera imyaka yabo mu buryo bwa kijyambere, batera ku murongo, buhira, batera imiti yica udukoko ndetse n'ibindi byose bigamije kuzamura umusaruro wabo.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bumwe butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza mu gihe gito, bigafasha ababukora kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo, aho bashobora kubona ibibatunga bo n'imiryango yabo higanjemo ibikomoka ku bworozi nk'amata, inyama, amagi ndetse n'ibindi.

Umuganga w'amatungo wambaye igisarubeti cy'ubururu uri kuvura inka ifashwe n'umugabo wambaye imyenda y'umukara bigaragaza iterambere mu bworozi aho amatungo yitabwaho ahabwa ibyangombwa nkenerwa ndetse n'ibindi byose byibazwe kugira ngo atange umusaruro mwinshi kandi mwiza ibyo bifasha abayobora kwiteza imbere.

Ubukerarugendo n'ikivumbi bizamura ubukungu ndetse n'iterambere ry'igihugu cyacu cy'u rwanda unyuyuze ba ba mukerarugendo baza gusura ibyiza nyaburanga by'umwimerere bigaragara mu gihuguhugu cyacu nk'ingagi zo mu misozi miremire inyoni nziza cyane ndetse n'ibindi byiza nyaburanga bitandukanye bigaragara hirya no hino mu gihugu.

Hirya no hino mu gihugu, hagaragara ibyanya bya parike ndetse n'amashyamba kimeza, byose bicumbikira inyamaswa ziganjemo izigaragara mu bice by'imisozi miremire. Zifite umwihariko wo gukurura ba mukerarugendo baturuka hirya no hino ku isi, baza gusura igihugu cyacu bityo bikazamura iterambere ry'igihugu binyuze mu madevize yinjizwa n'abo bamukerarugendo.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara ibyanya bya pariki ndetse n'amashyamba kimeza byose bifite umwihariko wo gucumbikira inyamaswa ziganjemo iziboneka mu gice cy'imisozi miremire. Izi nyamaswa zikaba zizwiho gukurura ba mukerugendo basura igihugu cyacu bityo bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura ubukungu bw'igihugu binyuze mu madevize azanwa na ba mukerarugendo.

Hirya no hino mu gihugu, hagaragara amashyamba kimeza ndetse n'ibyanya bya pariki. Byose bicumbikira inyamaswa zikunzwe na ba mukerarugendo, ziganjemo iziboneka mu bice by'imisozi miremire. Aho zikurura ba mukerarugendo basura igihugu cyacu bityo bikazamura iterambere n'amahoro, binyuze mu madevize yinjizwa n'aba bamukerarugendo.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bumwe mubutangwamo inama n'impuguke mu by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi aho bagira inama abaturarwanda bukora bene ubu bworozi butanga umusaruro mwinshi kandi mwiza ndetse bagafasha no gukora, kwiteza imbere no kuzamura imibereho yabo umunsi ku wundi binyuze ku musaruro bakura muri ubwo bworozi.